Mu gihe cy'inama cyangwa se inteko rusange, abaturage usanga bahuriye hamwe bateze amatwi ibyo abayobozi bateganyije kubagezaho, bagatanga n'ibibazo babona bibabangamiye muri sosiyete muri rusange.

Mu gihe cy'inama cyangwa se ikindi kiganiro runaka hahuriwe n'abantu benshi, ni byiza ko buri wese akurikira agatega amatwi, akumva ikigamijwe kugerwaho ndetse n'imyanzuro igomba gufatwa.

Inama cyangwa se ibindi bikorwa byose bishobora guhuza abayobozi, ni byiza ko mwicara mufite amazi yo kunywa hamwe n'Inyange cyangwa se amaji, kuko usanga ari byiza cyane bituma abantu baticwa n'icyaha.

Mu nama y'amakampani runaka abayobozi cyangwa se abandi bantu bose usanga akenshi na kenshi bari kwiga ku bibazo bafata n'imyanzuro banakemura amakimbirane aba yaragiye ahagaragara hagati yabo.

Mu nama y'amakompani cyangwa se imishinga ikomeye usanga abayobozi bahura kenshi na kenshi bashaka gukemura ibibazo bigenda bigaragara mu mikoranire yabo n'izindi kampani zo hanze, rero ni byiza guhura muri iyo nama.

Mu nama cyangwa se mu mahugurwa, ni byiza ko buri muntu wese avuga ahawe ijambo kuko bitabangama mu gihe cyo gufata imyanzuro ndetse no kwiga ku bisubizo byanyabyo biboneye.

Mu nama cyangwa se mu mahugurwa, biba byiza mwese mukurikiye neza ijambo ry'umuyobozi aba ari kubagezaho ntabyo kwirinda gusahinda cyangwa se kujya gusakuza bitewe n'impamvu runaka.

Mu gihe cy'inama cyangwa se amahugurwa, ni byiza ko mutuza mugatega amatwi mwese kandi mugakurikiza inama z'umuyobozi uhagarariye iyo nama kandi uri kubagezaho ni ikiganiro, kugira ngo mwungukiremo byinshi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibicuruzwa mu Rwanda RURA, gifite intego yo gukumira ndetse no kwirinda ibintu byose bikorwa mu buryo bwa magendu, kuko bigira ingaruka mbi mu bukungu bw'igihugu.

Mu gihe cy'inama cyangwa se amahugurwa yahuje abantu benshi, ni byiza cyane kwambara imipira isa, kugira ngo bagaragare neza ndetse n'ibyo bakora bibe mu rwego ruboneye.

Mu nama cyangwa se ikindi gikorwa gishobora guhuza abantu benshi muri rusange, ni byiza ko bicara bazengurutse kugira ngo ubabwira ijambo agemo hagati, bamurebe neza kandi banamwumve bamuteze amatwi.

Mu gihe cy'inama ni byiza ko hifashishwa amatara habaye nijoro ndetse bagakoresha n'indangururamajwi, kugira ngo uwicaye inyuma na we aze kumva icyafashweho umwanzuro.

Mu gihe cy'inama cyangwa se amahugurwa ni byiza gufata mikoro ukagezaho igitekerezo cyawe abayitabiriye ndetse byaba na ngombwa ukabaza n'ibibazo wumva ufitiye amatsiko.

Mu nama y'abantu bazwiho gukora siporo cyangwa se abaterete, akenshi na kenshi usanga baba baganirizwa ku bikorwa byiza bagomba gukora mu gihe bitabiriye amarushanwa ahuza ibihugu byo hanze n'icy'u Rwanda.

Mu gihe cy'inama se cyangwa amahugurwa, ni byiza kuba wahaguruka wihagazeho kandi wifitiye icyizere, ukavuga ikibazo cyawe, kugira ngo kibonerwe umuti ndetse kinakemurwe.

Akenshi na kenshi mu nama cyangwa se mu gusangira kw'abayobozi, usanga biteretse amazi imbere yabo bari kuyanywa baganira ibiganiro byiza cyane kandi byubaka igihugu.

Mu gihe cy'inama hagati y'abayobozi ndetse n'abandi, ni byiza kunywa amazi y'inyange kuko ni uruganda rwiza cyane rutanga poroduwi zizewe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze.

Mu gihe cy'amahugurwa cyangwa se inama, ariko akeshi na kenshi biba byiza iyo mwambaye imyenda isa, kugira ngo nimufata ifoto ize kugaragara neza, niho biba bishimishije kubirebesha amaso.

Muri iki gihe irushanwa ry'amagare rikomeje kugenda ritera imbere, aho abarikina bagenda bakora inama zitandukanye, rero rigira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu, kuko abantu benshi bashoramo amafaranga, bakanafasha igihugu muri rusange.

Mu gihe k'inama, ni byiza ko abayobozi baba seriye kugira ngo bumve neza ibibazo by'abaturage ndetse banabikemure, batanze umwanzuro mwiza kandi unoze.

Igihe cy'inama, amahugurwa cyangwa se ibindi bikorwa byose bishobora guhuriza abantu hamwe, ni byiza kwitonda mugatega amatwi mukumva icyo umuyobozi agamije kubagezaho ndetse n'impanuro ze, kuko akenshi na kenshi baba bafite iby'ingenzi byabazanye,

Bamwe mu bayobozi b'u Rwanda usanga bahurira hamwe, bakiga ku kibazo kiba cyagiye kigaragara cyane cyane mu mitangire ya serivisi, rero bahava bafashe umwanzuro bakanakora ubushakashatsi kugira ngo bikemuke neza.

Mu gihe cy'inama cyangwa se mu gusangira mwakoze umunsi mukuru. Ni byiza ko mwicara ku itabule muyizengurutse kugira ngo muze kumvikana ku biganiro muri kugezwaho n'umuyobozi mukuru.

Mu gihe cy'inama se cyangwa amahugurwa ndetse n'ikindi gikorwa gishobora guteranya abantu benshi. Ni byiza ko umuyobozi ahagarara imbere, akazajya ababwira icyo ashaka kubigezaho mu ijwi riranguruye cyane kugira ngo mwese mwumve.

Zimwe mu nzu zitanga serivisi zijyanye n'ibikoresho by'itumanaho, bakorana na za Airtel, MTN ndetse za DS TV na Canal plus , bagufasha kuba wakorana na bo mu buryo bwihuse kandi bwizewe.

Ku nzu zimwe na zimwe ziba ziri ahantu mu mijyi ari ndende, akenshi na kenshi usanga bagenda baterekaho iminara hejuru yazo, kugira ngo abahaturiye babone amanetiwaka abafasha mu gukora kominikasiyo.

Bimwe mu bikorwa remezo bigomba kubungwabungwa harimo n'iminara, kuko igira uruhare runini cyane mu iterambere ry'igihugu, amakuru akugereho ku gihe ndetse n'ibindi bikorwa byose birihuta mu gihe habayeho kumvikana neza.

Muri iki gihe ibikorwa by'ikoranabuhanga na tekinoroji bikomeje gutera imbere, aho usanga abantu benshi bahurira ahantu hamwe, bakiga uko bakoresha mudasobwa n'uburyo bashobora kwirinda ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga.

Komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta ni rumwe mu rwego rugenzura abakozi bashobora kuba bakora nabi cyangwa se babangamira abandi mu gihe cy'akazi, rero niba waba ufite ikibazo wakibabwira bakagufasha kugikemura.

Ni byiza cyane kwirinda kubaba wafungura umuriro w'amashanyarazi nta kintu urimo gukora. Rero niba, itara nta kintu uri kurikoresha warizimya kuko Umuriro riri gutwara ni mwinshi cyane.

Ikoranabuhanga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda rikomeje gutera imbere, aho abanyeshuri bakomeza bagenda bigishwa uko bakoresha mudasobwa ndetse birinda banakumira ibyaha bikorerwa kuri interineti.

Ni byiza cyane niba uri umuturarwanda ukora bizinesi cyangwa se umushinga wose ubyara inyungu, kuba wadekarara imisoro, ukabikora mbere y'uko itariki zigufata kuko bikurinda amande ndetse n'ibihano.

Imisoro ku bukode ni amafaranga yishyurwa hagendewe ku giciro cy'ibintu cyangwa inzu, bakwishyura buri kwezi, rero ni byiza gutangaho amafaranga yagenwe ugomba guha leta, kuko iyo utabikoze bikugiraho ingaruka.

Iminara ni bimwe mu bikorwa remezo by'ingenzi cyane mu gihugu, bikorana n'amaseterite mu rwego rwo gutanga amasinyari cyangwa amarezo yifashishwa mu byuma by'ikoranabuhanga na kominikasiyo.

Hamwe n'urubuga rw'Irembo ubu nawe wabyikorera, waba ukeneye icyangombwa nk'icyemezo cy'amavuko cy'uko washyingiwe ndetse n'ibindi byose, wabagana babigufasha mu buryo bwihuse nawe ukoresheje telefone yawe.

Bimwe mu bikorwa remezo bigira uruhare runini cyane mu iterambere ry'agaciro, runaka harimo n'iminara, kuko itanga amarezo cyangwa amasinyari yifashishwa mu itumanaho ry'abantu, baba abegeranye ndetse n'abategeranye no kumenya amakuru.

Hamwe n'Irembo, ubu nawe wabyikorera, icyangombwa cyose waba ukeneye wagisangaho mu buryo bwihuse kandi bworoshye, rero niba uri Umunyarwanda ukaba ufite irangamuntu yawe, gerayo wifashe muri buri kimwe cyose.

Ni byiza cyane mu gihe ufite inzu ukodesha, kuba wamenyekanisha umusoro kandi ukanishyura bidatinze, kuko iyo urengeje igihe bagushyiriraho amande n'ibihano, bishobora kuba byatuma uba umunyamadeni.

Hamwe n'Irembo bakuzaniye sisitemu yabyikoreraye, na we wakwishakira icyangombwa icyo aricyo cyose ukeneye, kugira ngo ube wajya kudeposa mu kazi waba wifuza k'inzozi zawe za buri munsi.

Irembo ubu nawe wabyikorera kandi mu buryo bwihuse, bari gutanga serivisi zihuse cyane, nawe wifashije ku giti cyawe injiramo wifungurire konti, ubundi ubikore mu buryo bunyarutse cyane bitakugoye.

Iminara ni bimwe mu bikoresho by'itumanaho bigira uruhare runini cyane mu gutanga conegition cyangwa se amasinyari y'ifashishwa mu gu hana hana amakuru hagati y'abantu n'abandi bakoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga.

Nawe wabyikorera hamwe n'irembo, waba ushaka icyangombwa kigaragaza ko warokotse jenoside, y'uko uri ingaragu ndetse n'ibindi byose, aka ka mwanya biroroshye cyane, jya ku rubuga rwabo ushakake icyo ishaka cyose.

Umucuruzi wese agomba gukoresha EBM, mu buryo bwo kwirinda kunyereza imisoro kuko igira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu ndetse no mu gukusanya amakuru y'umusoreshwa.

Gaze n'igikoresho muri iki gihe cy'ingenzi cyifashishwa mu gikorwa cyo guteka, byihutisha ibikorwa byawe vuba vuba kandi ntibinatinda niba uyishakaho nawe wayigura kuko ni nziza.

Ikigo cy'igihugu cya RDB, gikorana na banke yacyo yitwa Rw diveropumenti banke, ishinzwe kugenzura ibikorwa byose bijyanye n'amajyambere ndetse no kuguguriza umuntu wifuza gutangira imishinga mishyashya.

Igihe uri umucuruzi cyangwa se ufite ibindi bikorwa ukora bibyara inyungu, ni byiza kudekarara kare imisoro. Kuko iyo urengeje bagushyiriraho amande ashobora kubangamira ibyo ukora mu gihe runaka.

Zimwe mu nzu zitanga serivisi z'ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho byabyo, usanga akenshi na kenshi zubatse ku mihanda, aho buri muturage wese agira uruhare mu kuhagera akaba yakwaka icyo akeneye ndetse n'icyo yifuza, niba hari n'ubufasha akeneye bakamufasha.

Kumenyekanisha umusoro ku nyungu ni bimwe mu bikorwa byiza cyane umucuruzi ashobora gukora bikamurinda kugwa mu gihombo cyangwa gucibwa amande by'ibyo atakoze.

Ubu muri iki gihe ni byiza cyane kuko iterambere ryaraje, abantu hafi ya bose batunze ama simatifoni, amakuru menshi bagenda bayabona ku mbuga nkoranyambaga ndetse nta n'icyapfa kuba ngo kiyoberane kuko byihuta cyane.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiyongere bw'abaturage b'u Rwanda, gikomeza gikora ibarura kugira ngo hagaragare uko imibare yagiye izamuka ndetse n'inkunga ikenewe n'ingamba zafatwa kugira ngo ntibabe benshi cyane.

Ikigo cy'igihugu kizwi ku izina rya RURA, gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga ndetse n'ibiribwa, rero niba ufite ibitujuje wabagana bakabigufashamo cyangwa se byaba byarangiritse ukabijugunya.

Ubu rero biroroshye cyane hamwe n'Irembo. Serivisi zabo zirihuse cyane kandi mu buryo bubangutse. Niba ushaka kudekarara ibyangombwa birimo icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'uko washyingiwe, ndetse n'ibindi byinshi cyane, babigufashamo mu buryo bwihuse.

Sisitemu yo kwishyura imisoro, ni imwe muri gahunda ya leta ihora ishishikariza abacuruzi ndetse n'abandi bantu bose bireba. Niba nawe rero ubikora, ihutishe kandi ubikore hakiri kare bataragushyiriraho amande.

Ubu ikoranabuhanga ryateye imbere cyane, aho usanga abantu benshi bafite amasimatifone, n'uba atayifite akaba afite mashini ya laputopu cyangwa se ikindi gikoresho cyose kijyanye na tekinoloji.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge, ni bamwe mu bafite inshingano zo gushyiraho ibiciro bya peteroli ndetse na gaze, iyo byahenze baba babonye ingano y'ibikenewe mu gihugu ndetse bakanabikontorora mu buryo bwiza buboneye.

Bamwe mu bantu bazwiho gukora telefone, usanga ari abahanga kuko tubashyira ibikoresho by'ikoranabuhanga biba byarapfuye, bakabigusanira bakabigira bizima mu buryo bwiza cyane, ukongera kubikoresha.

Mu nyubako zimwe na zimwe, usanga kenshi na kenshi hakoreramo amapapeteri atanga serivisi nziza zijyanye n'iz'irembo, iza Airtel Money, Mobile Money, kubitsa no kubikuza, ndetse n'andi mabanki ayo ari yo yose.

Imijyi minini minini iteye imbere cyane uhasanga inyubako ndende ndetse naho abantu bicara bakabona netuwake y'ubuntu nta kiguzi bibasabye mu gihe bari kuruhuka banaruhura mu mutwe.

Mu ma ofise no mu biro, ni ahantu hagomba kuba hafite isuku, hameze neza, kugira ngo abaza kuhaka serivisi, babone ibikorwa byiza cyane, mwagiye mugeraho, baniyongere, banashishikarize abandi kuza.

Hamwe n'irembo nawe ubu wabyikorera babyoroheje cyane serivisi yose waba wifuza ijyanye n'ibyangombwa byaba iby'ubutaka, iby'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ndetse n'ibindi byose, wabibonaho mu buryo bwihuse.

Hamwe n'irembo ubu twabazaniye serivisi ndetse na sisitemu ya byikore niba ushaka kwiyandikisha mu gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, haba uruhushya rw'agateganyo ndetse n'urwa burundu wabibona mu buryo bwihuse cyane.

Muri iki gihe muri iyi si tugezemo, akenshi na kenshi usanga gukoresha mudasobwa ari ibintu by'ingenzi kurusha ibindi byose, kuko akazi kose umuntu akora usanga ikenerwa cyane ku buryo buri hejuru.

Amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa remezo kigaragaza iterambere ry'igihugu, kuko iyo ntahari bibangama cyane kuba bakwihimbira akazi runaka cyangwa se no kuba...

Abamotari ni bamwe mu bantu batwara abagenzi ku mamoto ariko bakunze kugaragararwaho no gukora impanuka nyinshi cyane kubera ko akenshi bakunda kutubahiriza amategeko y'umuhanda, rero ni byiza kugenda mu muhanda neza.

Bamwe mu bantu bazwiho nk'abatekinisiye bakora amashanyarazi, baba bafite ubunararibonye bw'akazi bakora, kuko kaba ari agasaba kwitonda ndetse no gushishoza, mu gihe wabikora nabi ushobora ku kuviramo urupfu.

Amashanyarazi ni meza ahantu aho ariho hose iyo akoreshejwe neza; ariko nanone mu gihe uyakoresheje nabi ashobora guteza urupfu cyangwa se ibindi bibazo bikomeye cyane; rero ni byiza kwigengesera mu gihe umuntu ari kuyakoresha.

Mu gihe utwaye ikinyabiziga cyangwa se uri kugendera mu muhanda ukagera ahantu hari ikoni ni byiza kwitonda ukagenda n'umuvuduko muke kuko bishobora kuguteza impanuka mugihe uri kwirukanka cyane.

Ibikorwa by'iterambere mu gihugu cy'u Rwanda bikomeje kwihuta cyane, aho usanga hari amakamera mu mihanda, acunga umutekano w'abantu ibintu ndetse n'ibinyabiziga, rero iyo ukoze amakosa bahita bakubona.

Ibikorwa by'amashanyarazi, ni bimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse n'ubukungu aho bishingiye, kuko bigira uruhare runini mu mizamukire yabyo n'ibindi bikorwa byose.

Ibikorwa by'amashanyarazi ni bimwe mu bintu by'iterambere bigomba kwitabwaho cyane kugira ngo hatagira umuturage cyangwa se undi uwo ariwe wese wabyangiza kuko bigira uruhare runini cyane.

Bimwe mu bigaragaza ko ahantu hateye imbere, cyane cyane nko muri Kigali, ugenda usanga hari ibiti bitanga akayaga ndetse n'inyubako zigaragara nk'iza etaje, mu buryo bwiza cyane kandi buboneye.

Mu gihugu cy'u Rwanda rero, ni byiza cyane kwirinda kwangiza ibikorwa remezo nko kwiba insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibindi bikoresho bijyanye na byo, kuko iyo ubikoze urahanwa kandi bakaguha igihano kinini.

Mu gihugu cy'u Rwanda uduce twinshi aho turi hose dufite umuriro w'amashanyarazi nko ku kigero cya mirongo icyenda ku ijana, rero ni byiza kwirinda ndetse no gukumira abagamije kwangiza ibyo bikorwa remezo.

Iminara ni bimwe mu bikorwaremezo bigira uruhare runini cyane mu iterambere ry'igihugu, kuko byongera ikoreshwa ry'itumanaho ndetse na tekinoloji muri rusange, rero ni byiza kubibungabunga kuko ari iby'ingenzi.

Ibikorwaremezo by'amashanyarazi ndetse n'amatara yo ku mihanda. Usanga akenshi na kenshi bigira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu, kuko bikumira ibisambo biba bigamije kwiba abaturage mu gihe cya nijoro.

Amashanyarazi ni bimwe bikorwaremezo, leta y'igihugu ishyiraho igamije kongera iterambere ryaho ndetse n'abaturage bamererwe neza, imirimo yabo yihute nta nkomyi.

Ibikorwa by'amashanyarazi, ni bimwe mu bintu bigaragaza iterambere ry'igihugu, rero si byiza kubyangiza, kuko iyo ubikoze bishobora kukuviramo igihano, cyangwa se bikaba byanakwica.

Akenshi na kenshi kwa muganga usanga baragiye bapfuka inzira ziba zambuka ziva ku nzu imwe zijya ku yindi, kuko baba bateganyaga ko mu gihe umuntu atwaye umurwayi atamunyurana ahantu anyagirwa.

Mu bigo nderabuzima, ni ahantu usanga hafite isuku nyinshi cyane, kuko akenshi na kenshi mu tuyira dukoreshwa n'abanyamaguru, haba hapfutse, hasakaye neza, kugira ngo mu gihe waba utwaye umurwayi ntanyagirwe cyangwa ntiyicwe n'izuba.

Mu gihe cyo gukingira cyane cyane nk'ibiza runaka cyangwa ibyorezo nka kovide, mabaga ndetse n'ibindi byose nka za koronavirusi. Ni byiza ko witabira icyo gikorwa kuko bigira ingaruka nziza.

Ubu ni byiza cyane muri iki gihe kuko byaroroshye kuba wicariye mu biro, nta mavunane nta neke hamwe n'intebe bagukoreye zifite imipine igenda, iyo ushaka kwisunika wigira inyuma ukaniga ikamanuka kugera ahantu ushaka hose.

Amashyirahamwe cyangwa se amatsinda yaba ay'abagore, abagabo ndetse n'abandi bantu bose. Ni bimwe mu bintu bigira uruhare runini mu iterambere ry'umuryango nyarwanda, kuko bizigama amafaranga bakazayafata yaragwiriye.

Ambulanse, ni bimwe mu binyabiziga bizwiho kugira uruhare cyane, mu gutwara abarwayi, rero biyavana ku bitaro biri mu ruhande runaka bibajyana ahandi, mu gihe bahawe amataransiferi bakomerewe.

Mu bigo by'amashuri usanga ari ahantu hatuje cyane, kuko nta rusaku ruba ruhari, rero usanga abanyeshuri biga neza kandi bakurikirana ibyahabajyanye mu buryo bwihuse.

Mu Rwanda bimwe mu bitaro bizwiho kuba birambye bihamaze igihe kinini byitwa iby'Umwami Faisal, birangwa n'ubuhanga bw'abaganga bahakorera, mu mivurire ndetse no ku kwita ku barwayi.

Mu kubaka ibigo by'amashuri, amavuriro cyangwa se izindi nzu usanga ari nini cyane, ni byiza ko ushyiramo uduhanda tunini tugaragara ugashyiraho n'amatara, kugira ngo abahatembera bajye babona aho banyura batabangamiwe cyangwa badaciye mu ndabo.

Akenshi na kenshi ahantu hamwe na hamwe, usanga imodoka zaparitse mu muhanda, mu gihe zitegereje abantu, ariko ntabwoo ari byiza kubikora kuko bishobora guteza impanuka mu gihe runaka.

Muri iki gihe, leta y'u Rwanda igira uruhare cyane mu kwita ku bantu bafite ikibazo cyo kuba babana n'ubumuga. Rero na bo ni nk'abandi, tugomba kubisangamo, tukabafasha mu gihe ari ngombwa.

Imfungwa n'abagororwa ni bamwe mu bantu baba bafite uburenganzira busesuye bwo kuvurwa, igihe yaba agize ikibazo cyangwa yatatswe n'indwara runaka, ahita yihuta kwa muganga agahabwa ubutabazi bw'ibanze.

Bimwe mu binyabiziga bizwiho gutwara abarwayi byitwa mbirasi, bigira uruhare runini cyane mu gutabara ubuzima bw'abantu, kuko bikura abarwayi ahantu hamwe bibajyana ku rindi vuriro mu buryo bwihuse.

Imfungwa n'abagororwa ni bamwe mu bantu biberaho mu buzima budahenze cyane kuko baba batunzwe na Leta kandi bakagororwa neza bakazagaruka mu masosiyete barakize ibyaha bafungiwe.

Ikigo cya kuruwaruje, ni bamwe mu bantu b'intangarugero kandi b'ingenzi mu buzima bwa buri munsi kuko bagira uruhare runini mu gufasha indembe, inkomere ndetse n'undi wese waba wahuye n'ikibazo icyo ari cyo cyose.

Abacamanza, abavoka ndetse n'abandi bose ni bamwe mu bantu bagira uruhare runini mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi byose kuko bakemura amakimbirane aba yagiye agaragara hagati y'abaturage.

Mu gihe abayobozi runaka bakoze inama bakayisoza, ni byiza ko bafata ifoto y'urwibutso kugira ngo bazagaragaze imyanzuro bafashe n'ibyo bakoze hakurikiranyweho n'ifoto yabo.

Abacamanza, abavoka ndetse n'abashinjacyaha ni bamwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange bakora ibikorwa byiza bijyanye no gukemura amakimbirane agaragara mu bantu.

Abacamanza, abashinjacyaha ndetse n'abavoka ni bamwe mu bantu b'ingenzi, b'abanyabwenge ndetse n'abahanga dufite mu gihugu cyacu kuko bakora akazi kabo neza kandi ku murongo.

Imfungwa ndetse n'abagororwa, na bo ni bamwe mu bantu bakwiriye kwitabwaho, bagahabwa uburenganzira bwabo nk'uko babugenerwa n'ibigo bitandukanye, rero kubafata neza biba byiza kurushaho, kuko na bo ni abantu nk'abandi.

Iyo imfungwa ndetse n'abagororwa bavanywe ku rukiko cyangwa se bajyanyweyo, baba ari igikundi cy'abantu benshi bakagenda nyine bakaburanishwa, basozwa bakasubizwa mu modoka bakajyanwa ku magororero.

Bamwe mu banyamategeko bakorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bazwiho nk'abacamanza, ni abantu b'inyangamugayo barangwa no kugira ubutabera mu kazi kabo bakora rero ni byiza kubahira inshingano nziza bubahiriza.

Imfungwa n'abagororwa, ni bamwe mu bantu baba bayeho mu buzima bwabo bonyine, nta bantu babasura cyane, kuko basurwa ku gihe kandi cyaranateganyijwe. Rero ni byiza kubitaho mu buryo bukwiriye.

Mu gihugu cy'u Rwanda ni ho hantu nasanze abayobozi b'intangarugero cyane, kuko usanga bitwara neza, bakitwararika, birinda ruswa, batandavura, bakora ibikorwa nawe ubona ko bishimishije.

Mu gihugu cy'u Rwanda hari amagorero menshi aho usanga abantu bakoze ibyaha babajyanayo, bakabanza bakabakosora kugira ngo badakomeza kuba ibyigande cyangwa se abantu babi.

Mu gihe uri kugendera mu muhanda ni byiza kugenda witonze kandi ufite ubushishozi, kuko iyo ubikoze nabi bishobora guteza impanuka bikaba byatwara ubuzima bw'abantu bawukoresha.

Abantu ntigeze nabonaho kuba bubahiriza inshingano zabo nk'uko bazitegetswe, ni abapolisi b'u Rwanda bakora mu muhanda. Bakora akazi gakwiye kandi mu gihe cya nyacyo kandi na ngombwa nk'uko biteganywa n'itegeko.

Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni hamwe mu hantu hambere nabonye bagira abapolisi bita ku nshingano zabo, batarya ruswa kandi bakora neza mu buryo bwihuse, niba rero ukeneye kuba wagira ibindi wababaza, wabahamagara ku mirongo yabo itishyurwa.

Polisi y'u Rwanda, ni bamwe mu banyamwuga nigeze mbona bakora akazi kabo neza kandi mu buryo bwihuse, niba rero waba ugize ikibazo runaka, wabahamagara bagutabarira ku gihe kandi bakagufasha kugikemura neza.

Polisi y'u Rwanda ni bamwe mu bantu bazwiho gukora akazi mu buryo bwa kinyamwuga, rero birinda ruswa ndetse n'ikijyanye nayo cyose kandi mu gihe udafite ibyangombwa bakubwira kuva mu kinyabiziga bakakigutwaza maze bakajya kuguha ibihano.

Polisi y'u Rwanda, iri muri zimwe mu nzego zikorera mu gihugu cyacu, zikora neza kandi zitanga umutekano usesuye ku Banyarwanda bose, ni byiza rero kububaha ndetse no kumvira amategeko yabo.

Ikigo cy'igihugu cy'ubushinjacyaha RIB, ni bamwe mu bantu bakora akazi kabo mu buryo bwa kinyamwuga kuko batahura ibyaha biba byagiye bikorwa, rero niba waba wahohotewe cyangwa wagiriweho ikindi cyose wabahamagara ku mirongo yabo itishyurwa.

Mu nzu zose ndende zakira abantu benshi mu buryo bwa rusange, zigomba kugira imipira miremire ishobora kwifashishwa mu gutwara amazi yo kuzimya, mu gihe haba hatewe n'inkongi cyangwa se indi mpanuka.

Ni byiza cyane mu nzu yawe kugiramo igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi, kizwi nka kizimyamoto. Kuko iyo hagize ikibazo kiba, zifashishwa kandi mu buryo bubangutse, bigakemura ikibazo.

Bamwe mu bantu bashinzwe kuzimya inkongi z'imiriro, baba bafite inshingano zikomeye cyane kuko burira inzu ndende cyane, bagiye gukemura ibibazo biba byagiye bigaragara kandi bishobora kuba na bo byababyarira impanuka.

Bamwe muri polisi cyangwa se abashinzwe kuzimya inkongi, ni bamwe mu bantu bakora akazi gakomeye cyane kuko bashobora no kuba batanga ubuzima bwabo, kugira ngo barokore umuntu waba wahuye n'ikibazo.

Ku nyubako zimwe na zimwe ndende ku gasongero kazo, ni byiza ko mushyiraho antene yifashishwa mu buryo bwo kwirinda inkuba, rero igira uruhare runini mu kurinda imirabyo ndetse n'ibindi biza byose.

Kubaka inzu yawe nziza kandi ikubereye ni byiza cyane, ariko ikindi cy'ingenzi wakagombye gushyiraho porotayi yizewe ku buryo nta gisambo cyapfa kwinjiramo. Rero niba uyishaka hari abanyamwuga mu kubikora wabagana bakabigufashamo.

Muri iki gihe uhabona imodoka nziza y'inzozi zawe kandi ikubereye yo mu bwoko bwa ayiburidi, ikoresha esanse ndetse n'amashanyarazi ku giciro gito cyane. Ni karibu rero nawe wigurire.

Mu nama cyangwa se mu mahugurwa usanga abantu benshi bicaye batuje, bategereje kumva ikigamijwe cyangwa icyo umuyobozi wabo yateganyije kubagezaho kuri uwo munsi w'iyo myiteguro.

Mu gihugu cy'u Rwanda, iyo abayobozi bari kurahira inshingano batorewe, babikora bafashe ku ibendera kugira ngo bibe igihango kigaragaza ko bemeye kuzakorana ubushake imirimo batorewe.

Nyakubahwa umugore wa perezida madamu Jeannette Paul Kagame, ni umuntu w'ingenzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kubera ko ari umudamu w'intangarugero, akora neza, akanambara neza, mu bikorwa byose agaragara neza cyane.

Mu gihe mwasuwe n'abayobozi runaka babagendereye kugira ngo mugire ibyo muganiraho, ni byiza kuba mwakwivuga mukatanga ibitekerezo byanyu ndetse n'ibibazo mufite bigashakirwa ibisubizo.

Nyakubahwa perezida w'igihugu Paul Kagame ni umwe mu bayobozi b'intangarugero kandi bakora neza igihugu cy'u Rwanda cyagize, ibikorwa bye bigaragaza iterambere ndetse n'ubukungu bw'igihugu.

Nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda yagize uruhare rukomeye cyane, ni umugabo w'intwari usezeranya kandi agasohoza, kuko yahaye abagore n'abakobwa ijambo muri rusange nabo bakaba bavuga.

Mu gihe habaye igikorwa runaka cyangwa se mu matora y'abayobozi b'inzego zo hasi abaturage batonda umurongo bakajya bagenda binjira umwe, umwe ashyiraho ijwi rye uwatsinze akaba ari we ayobora.

Mu nama, mu rukiko cyangwa se mu mahugurwa; ni ahantu akenshi na kenshi ukunze gusanga hari umutuzo, aho umuntu avuga ahawe ijambo; rero ni byiza kwitonda, ugakora ibintu uko byagenwe.

Ababyeyi b'abamama. Ni bamwe mu bantu tugira mu buzima bwacu b'ingenzi kuko uko waba umeze kose ahora akwitaho, waba warigize icyigomeke ntabwo yakwanga kuko aba azi icyiza n'ikibi.

Kimwe mu bikorwa byiza cyane nyakubahwa Perezida w'lgihugu cy'u Rwanda, Paul Kagame yakoze harimo no gusubiza ijambo abagore, ubu bahawe agaciro nabo bagira imyanya mu buyobozi kandi bakavuga n'ikintu kikumvikana, ni byiza cyane.

Igihe cyo kwiyamamaza, ni byiza ko umukandida wiyamamaza agera kuri tere akiyereka abaturage, akababwira ibigwi, imigambi ndetse n'ibyo agamije kubagezaho mu gihe azaba abayoboye.

Niba ushaka ibijyanye n'ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze, hari amakampani menshi cyangwa se abikorera ku giti cyabo bagufasha kubona abanyamwuga b'abavoka, bagufasha mu rubanza rwawe.

Nyakubahwa perezida Paul Kagame, umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda. Ni intangarugero mu bandi bayobozi bose. Aho akenshi akunze kugaragara mu ruhame, usanga yambaye neza, kandi akagira n'imico myiza haba mu mivugire ndetse no mu mikorere.

Mu gihe cy'amatora ya perezida wa Repubulika. Waragendaga ugakoza ikiganza cyawe muri wino. Wamara kujyaho ukagenda ugakoza ku ruhande rw'umukandida ushaka gutora.

Bamwe mu bayobozi bahagarariye abandi, usanga bagaragara neza nkaho ari nka ntangarugero mu buryo ubwo aribwo bwose, reba nk'urugero nk'abaminisitiri, abadepite ndetse n'abandi bose, baba basa neza cyane.

Mu gihe cy'amatora ya perezida w'Igihugu mu Rwanda, abaturage bose babyuka mu gitondo bagana ibiro by'itora, barangiza bakajya buri wese yinjira mu kazu ke, agatera igikumwe akajugunya mu gapuberi.

Perezida Paul Kagame ni umwe mu bakuru b'ikirenga b'igihugu cy'u Rwanda w'intangarugero kandi akora ibikorwa byiza cyane nko kubabaka nka sitade Amahoro ndetse n'ibindi bikorwa remezo agenda afasha igihugu.

Nyakubahwa perezida Paul Kagame twitoreye yiyamamaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, tumuhitamo nk'umuntu w'ingenzi, akwiriye kuyobora igihugu cyacu, rero ni mwiza kandi koko tuzakomeza kumukunda.

Mu gihe cy'amatora yaba aya nyakubahwa perezida w'igihugu cyane cyane, abaturage baraza bakagira amajwi yabo bakayaterera mu kadobo, bamara kuyatereramo atorwamo n'abashinzwe iyo gahunda bakayakusanyiriza hamwe bakayabara.

Mu gihe habaye inama y'abaturage bose muri rusange, akenshi na kenshi usanga bicaye cyangwa se bahagaze, bateze amatwi bumva ibyo abayobozi bababwira neza kandi cyane.

Zimwe mu moto zizwiho nka lifani. Ni bimwe mu binyabiziga bikorera amafaranga menshi cyane kandi bigakora n'akazi kenshi, nko gutwara abantu ibintu ndetse n'ibindi bikoresho byose.

Kampani ishinzwe gutwara abantu mu buryo bwa rusange izwi nka RITCO; ni bamwe mu bantu bakora akazi kabo bya kinyamwuga, kuko bakuvana aho bakakugeza ahandi mu buryo bwizewe, bwiza.

Ibinyabiziga bizwi nka moto za lifani bitwara ibintu byinshi cyane, rero bizwi nk'imashini ikora amafaranga, kubera ko bikunda kugira akazi kenshi mu gihugu cy'u Rwanda.

Abamotari cyangwa se amamoto ni bimwe mu binyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu runaka, rero mu gihe ukora ako kazi ni byiza kwirinda kuba wateza impanuka mu muhanda.

Zimwe mu modoka nini zitwara imizigo cyane cyane amabuye n'imicanga zizwiho mu bwoko bwa omo cyangwa dipi. Zikunda kugira impanuka nyinshi cyane. Rero kubantu bazitwara ni byiza kwitonda mugihe uri kugenda mumuhanda ndetse no gushishoza.

Imodoka za kwasiteri ni zimwe mu binyabiziga bizwiho gutwara abantu mu buryo bwa rusange kandi bworoshye nta kubyigana, nta kibazo kindi. Rero niba wifuza gukora urugendo rwawe rwiza wabagana bakagufasha.

Muri gare ya Nyabugogo aho imodoka zitwara abagenzi ziparika, usanga hari imodoka nyinshi ndetse n'umubyigano, aho ushobora kuba wakwibwa ikintu runaka, rero ni byiza kwitonda mu gihe uhageze.

Zimwe mu modoka z'amakamyo zizi gutwaraho ibicuruzwa bijyanwa mu gihugu hose cyangwa se hanze yacyo, zikora neza cyane ku buryo bwihuse, kuko abashoferi bazitwara bafite ubuhanga muri ako kazi.

Zimwe mu modoka za tagisi zizwiho nka kwasiteri, zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange kandi zirihuta, zishobora kuba zidakora impanuka nyinshi cyane kuko zigenda neza.

Imodoka zimwe muzi nk'iza dayihatsu, akenshi zikunda gutwara ibicuruzwa n'amarangi n'ibindi bintu byose, zibivanye ahantu runaka zibijyana ahandi, rero hagomba kubamo ubwitonzi n'ubushishozi.

Bimwe mu bigare bizwiho gutwarwa n'abakarani bigira uruhare runini mu kubafasha gutwara imizigo ibaremerera, kuko babishyiraho bagasunika, bikaborohereza urugendo. Ndetse n'imvune zikagabanuka.

Birabujijwe kandi si byiza guparika igare ndetse n'ikindi kinyabiziga mu muhanda kuko bishobora guteza impanuka ishobora kuba yavamo urupfu ndetse no kwangiza ikinyabiziga cyawe.

Zimwe mu modoka zizwiho nka longo tureyila, cyangwa se ama akitorosi, atwarwa n'umuntu ufite kategori ya E, kandi afite uburambe mu kazi. Rero bigira uruhare runini mu gutwara imizigo y'abantu, iva mu ruhande rumwe ijya mu rundi.

Imodoka zizwi ku buryo bwa dayihatsu, ni zimwe mu zitwara ibicuruzwa ndetse n'ibindi bintu byose bijyanye n'imizigo, biva hamwe mu gihugu bijya ahandi hantu.

Mu modoka zizwi nk'amabisi cyangwa se amakwasiteri. Zifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Rero zigira uruhare mu ngendo z'abantu, kuko bihuta bakahagerera igihe aho bagiye.

Abamotari bazwiho guteza impanuka mu muhanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali, aho butakwira nta na babiri bayikoresheje. Rero ni ngombwa kwitonda mu gihe utwaye ikinyabiziga ugashishoza.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda, gutwara abantu bava ahantu hamwe bajya ahandi bikorwa mu nzira nyinshi. hari uburyo bwa rusange ndetse no gukoresha imodoka za pirive hagendamo abantu bakeya.

Gufata imizigo minini cyangwa se irusha uburemere imodoka ntabwo byemewe, kuko bibangamira ikinyabiziga bishobora kugiteza impanuka, ariko na none gushyiraho iri isaguka ku mpande na byo bibangamira ibindi bikoresha umuhanda.

Iyo ugeze mu mujyi wa Kigali cyane cyane mu duce duherereyemo ibikorwa by'ubucuruzi, usanga haparitse imodoka zizwi mu bwoko bwa rifani. Rero zitwara ibicuruzwa by'abantu cyangwa se ukeneye kwimuka na zo zibimufashamo.

Akenshi na kenshi mu mujyi cyangwa se ahandi hantu hakorera imishinga myinshi cyane, uzahasanga ibintu bimeze nk'ibigare bikoze mu mapine y'imodoka bagenda bakwega, ibi rero byifashishwa mu kazi ka buri munsi n'abakarani kugira ngo biborohereze.

Imodoka zizwiho gutwara ibicuruzwa, cyangwa se ibindi bintu byose by'imizigo, akenshi na kenshi zikunze kugira impanuka, rero ni byiza kugenda neza mu gihe upakiye ibintu byinshi.

Imodoka zizwiho gutwara ibikomoka kuri peterori usanga ari nini cyane zifite ibigega, rero ni byiza kwitonda mu gihe itambutse kuko ishobora guteza impanuka ikomeye cyane havamo n'inkongi y'umuriro.

Zimwe mu moto cg se ibinyabiziga bizwi nka lifani ni bimwe mu bintu bizwiho kuba bikorera amafaranga menshi cyane kuko bitwara imizigo ndetse no kwimura abantu bashobora kuba bimutse.

Zimwe mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali, zizwi ku izina rya shira umuteto. Zikora akazi kazo neza ndetse n'abashoferi bazitwara bagenda ku muvuduko mwiza cyane.

Zimwe mu modoka zizwiho nka dayihatsu, zifashishwa mu gutwara ibiribwa ndetse n'ibicuruzwa by'abantu, rero ni iz'ingenzi mu iterambere ry'igihugu kuko zikoreshwa ku masoko henshi na henshi.

Mu gihugu cy'u Rwanda hari imodoka zimwe na zimwe ziba zizwiho ubushobozi bwo gutwara imizigo cyangwa se ibicuruzwa kuko nyine aba ari nini cyane nta bantu zitwara. Ni byiza rero kuzikoresha neza

Bimwe mu binyabiziga bikora ingendo mpuzamahanga bizwi ku izina rya Jaguar, bikora neza kandi bigatwara n'abagenzi mu buryo bwa rusange, kandi byihuse neza kubera serivisi batanga zinoze.

Umujyi wa kigali mu duce tumwe na tumwe, baba barahubatse utuzu, bakayishyiramo udutebe, aho abantu bananiwe bari ku rugendo, bicaramo bagafata interinete, bakaba baruhura mu mutwe ndetse n'ibindi bice by'umubiri.

Akenshi na kenshi ikikwereka ko ahantu, ari ah'ingenzi cyangwa ari ahagaciro hasirimutse muri make usanga hashashe amapave ndetse hagiye hari n'utujaride, hateyemo n'ibyatsi bishobora kuba bitanga akayaga ku bantu bahasura.

Mu duce tumwe na tumwe ku mihanda, usanga baragiye bateraho intebe zifashishwa n'abagenzi kuba baruhuka mu gihe bari mu rugendo, rero ni nziza cyane kuko zifasha abantu benshi.

Mu gihe umuntu ari kugenda mu muhanda ni byiza kwitondera ibyapa n'ibimenyetso biba bihari, kuko usanga iyo ubyubahirije bikurinda impanuka nk'urugero, ahantu abanyamaguru bambukira haba hari ibintu biharanga, rero ugomba kubikurikiza.

Bimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda, hari ibikwereka amakoni ibumoso, iburyo, umuhanda ukomeza, aho hari ikibazo, ni byiza rero gukurikiza icyo bikubwira kuko bikurinda ibyago.

Ibyapa bimwe na bimwe biba biri mu muhanda bigenda bikugaragariza ikigiye kuba imbere nk'urugero, hari ikiba kiriho mirongo itatu no munsi yaho hari akantu k'agakamera icyo ki kugaragaza ko muri metero mirongo itatu hari kamera, ugomba kwigendera ku muvuduko muke kugira ngo bataba kwandikira umuvuduko mwinshi.

Uri kugendera mu muhanda, ni byiza gukurikiza ibimenyetso biba bihari kuko iyo utabikurikije bishobora guteza impanuka, harimo nk'ibiba bigaragaza ko ugiye guterera cyane cyangwa se hafi aho hari ikibuga cy'indege, rero ni ngombwa kubikurikiza.

Mugihe uri kugenda mu muhanda ni byiza kwitondera ibyapa ndetse n'ibimenyetso biba biri mu muhanda nkurugero hari igihe usanga hari ibikubuza gukata cyangwa se gusubira inyuma rero iyo ubirenzeho urahanwa cyangwa ukaba wahura n'ibindi byago.

Mu gihe mu muhanda hari imirimo y'ibikorwa by'ubwubatsi y'amaboko, ni byiza kuhashyira icyapa kibigaragaza kuko iyo bidakozwe bishobora guteza impanuka mu buryo bwihuse.

Bimwe mu bimenyetso ndetse n'ibyapa bikoreshwa mu muhanda, biba bifite ibintu byinshi bisobanuye; rero ni byiza kubyubahiriza, kuko utabyubahirije bishobora kugutezaho ibyago ndetse n'abandi bakoresha iyo nzira.

Ahantu akenshi na kenshi hadakunze kunyurwa n'ibinyabiziga mu mujyi wa Kigali, usanga ari ahantu hatuje cyane nk'urugero nko muri ka furi zone ni heza cyane hanyurwa n'abanyamaguru gusa nta kindi kihemerewe.

Bimwe mu bimenyetso ndetse n'ibyapa bikoreshwa ahantu hatandukanye, ni byiza kubikurikiza kandi ukagendera no ku mabwiriza yabyo kuko iyo uyishe bishobora kuba byaguteza ibyago mu gihe runaka.

Iyo uri kugenda mu mujyi wa kigali ndetse n'ahandi hose cyane cyane ahantu hagaragara nk'aho hateye imbere, ugenda usangamo ibyapa biriho utumenyetso tuzengurutse bikwereka ko ugiye kugera ahantu banyura bazengurutse cyangwa muri rompuwe. Ni byiza rero kuhitondera.

Mu gihe utwaye ikinyabiziga ukagera ahantu hashobora kuba harangwa n'abantu benshi cyangwa se hamanuka, ni byiza gukurikiza ibyapa bikuyobora, niba ari umuvuduko wa mirongo itandatu ntuwurenze kuko uwurengeje bishobora guteza impanuka.

Bimwe mu bimenyetso n'ibyapa bigenda bikoreshwa mu muhanda, ibyinshi bigenda bikumira abantu bagendera ku magare, kutanyura ahantu runaka, kuko bahaciye bishobora guteza impanuka kuri bo ndetse n'abandi.

Bimwe mu byapa n'ibimenyetso bigenda bikoreshwa mu muhanda, bigira uruhare runini cyane mu kuyobora abagenzi ndetse n'abatwaye ibinyabiziga. Rero ni ngombwa kubyubahiriza mu gihe uri gukoresha umuhanda.

Iyo uri kugenda mu muhanda ugenda ubona ibyapa byinshi ndetse n'ibimenyetso byinshi, rero akenshi na kenshi n'uzajya ubona ahantu hari utuntu tw'udufureshi tuzengurutse ujye umenya ko ugiye kugera mu muhanda banyuramo bazengurutse.

Bimwe mu byapa ndetse n'ibimenyetso bikoreshwa mu muhanda, usanga akenshi na kenshi bikuburira ko imbere ugiye kugera hashobora kuba hari icyago cyangwa se ikindi kibazo, rero ni byiza kubyitondera kugira ngo utaba wateza, guhungabana mu muhanda.

Rero mu ngendo zimwe na zimwe, mu mihanda hagenda hifashishwa ibimenyetso bitandukanye, kugira ngo bagusobanurire igikurikiyeho imbere n'ikigamijwe, rero ni byiza ko bikurikizwa, kuko bigira uruhare runini mu rugendo rwawe.

Niba uri kugenda mu muhanda utwaye ikinyabiziga cyangwa uri kugenda n'amaguru, ukabona icyapa kikwereka ko imbere hari umuhanda uriho amabuye ashunguka, ni byiza kwitonda ugakomezanya umutuzo kugira ngo nihagira ikibazo kiba ukibone hakiri kare.

Ibyapa bigaragaza ikigo cy'amashuri, usanga gifite agafoto k'abana babiri bafatanye ukuboko bambuka umuhanda, rero mu gihe ukibonye ni byiza kwitondera aho hantu ukagabanya umuvuduko.

Mu gihe uri kugenda mu muhanda utwaye ikinyabiziga cyangwa se uri kugenda n'amaguru, ukabona icyapa cyangwa se ikimenyetso kikwereka kugabanya umuvuduko, ni byiza kubikurikiza kuko imbere haba hashobora kuba hari icyago cyakugirira nabi.

Ku mupaka w'u Rwanda na Uganda uhasanga ibirunga, rero hari parike nziza cyane aho hari ingagi ndetse n'izindi nyamaswa nk'inguge wajya kuzisura.

Ku bashoferi, abagenzi b'amaguru, ndetse n'abandi bantu bose. Ni byiza kubahiriza amategeko y'umuhanda. Kuko iyo utabikurikije bishobora gutuma, utera impanuka n'ibindi bikorwa bitari byiza byahitana ubuzima bw'abantu.

Mu duce tumwe na tumwe two mu mijyi, usanga harimo ibyapa bibuza amagare kunyura ahantu runaka. Rero mu gihe bitaba byemewe ntago nyine ari ngombwa, ugomba gushaka ahandi uca kugira ngo utica amategeko.

Leta y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa perezida Paul Kagame, ni umuyobozi mwiza cyane w'ikirenga ubona ibintu neza nko gutuza abaturage ku midugudu, bibafasha kwirinda kwibwa n'ibisambo.

Mu mujyi wa Kigali, ni ho hantu mu Rwanda akenshi na kenshi ugenda usanga inyubako ndende cyane. Ibyo bigaragaza ko ari hamwe mu duce duteye imbere mu Rwanda ndetse no ku mugabane w'Afurika muri rusange.

Hamwe mu gace gaherereye mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, i Kanombe ahazwi nko mu Kajagari, hagaragara ibikorwa by'ubucuruzi byinshi cyane ndetse n'abamotari bahora bahazenguruka, bashaka abakiriya batwara, rero niba wifuza kuhagera wazahagana.

Kamwe mu gace kazwiho kuba gaherereye mu mujyi wa Kigali, Kanombe mu kajagari, hagaragara abantu benshi cyane baba baturutse ingeri zose, baba abahaba n'abatahaba, kuko ni heza.

Mu mujyi ndetse n'utundi duce twinshi duteye imbere, usanga hubatse inzu nziza mu buryo bw'imidugudu, kandi zirebana, ibi ni byo byiza gutura mu midugudu, kuko bigira uruhare runini mu iterambere.

Amasupa maketi, ubucuruzi bw'imodoka ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye na byo, ni kamwe mu kazi kagira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu, kuko batanga imisoro myinshi cyane yifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo n'ibindi byose.

Mu gihugu, ni byiza kubaka inzu ziteye imbere, kandi zinagaragara neza, kubera ko zituma abenegihugu, ndetse n'abandi bantu bose bishimira ibikorwaremezo byagiye bigerwaho, bikababera intangarugero, bakanakora cyane.

Muri iki gihe ni byiza cyane rwose kuko abantu bose batuye ku midugudu. Rero iyo wituranye biragora kuba wagerwaho n'ibikorwa remezo nk'amazi n'amashanyarazi, ni byiza rero gusanga abandi.

Mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byose, inyubako ndende ziri kugenda zitera imbere kuko bagenda bazizamura umunsi ku munsi. Rero ni byiza kuzubakana ubuhanga ndetse n'ubushobozi butuma zitaba zakwangizwa n'umuyaga.

Mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, ahitwa i Remera; ni hamwe mu hantu hari ibikorwaremezo byinshi cyane nka Sitade Amahoro, BK Arena ndetse n'ibindi bigira uruhare mu iterambere ry'igihugu.

Ikigaragaza ko ahantu hateye imbere. Akenshi na kenshi usanga ku mihanda hagiye hariho inzu zubatse neza ziteye amarangi, zigiye zifite amaporotaye meza kandi akanganye.

Mu mujyi wa kigali werekera i remera hari umuhanda uca hasi hejuru hagacaho ikiraro kinini, rero abantu bose bahanyura bagomba kuhaca bigengesereye kuko bushobora kugenda nabi bikaba byateza impanuka.

Mu mujyi wa Kicukiro mu muhanda ujya i Remera, uhasanga ikiraro kimeze nk'ikinyura hejuru, aho hejuru hariho undi no munsi yaho, rero ni byiza kuhitondera kuko hashobora guteza impanuka.

Mu gihe uri kugenda mu muhanda ntabwo byemeye kurira bolodire cyangwa se kwiyogonga, kuko mu gihe ubikoze urahanwa n'amategeko yo mu muhanda, kuko nyine uba ufite ibyo wishe wanangije.

Mu gihe uri kugenda ku kinyabiziga cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose, ukabona icyapa kikubwira ko imbere hari ikigo cy'ishuri, ni byiza kwitonda ukagabanya umuvuduko, kuko bishobora guteza impanuka mu banyeshuri bari kwambuka umuhanda.

Amatara yo ku mihanda, ni bimwe mu bikorwa remezo bifasha abantu kugenda ingendo zabo za nijoro, nta nkomyi bafite umutekano ibisambo ntibibone uko bibiba ibyo bafite.

Mu gihe cyo kubaka imihanda ya kaburimbo, ni byiza gusiga inzira izajya yifashishwa n'abanyamaguru kandi nini ihagije, kuko biba ari iby'ingenzi kubona umwanya ukwiriye.

Abamotari ndetse n'abandi bantu bose batwara amamoto, ni abantu usanga bakunda kugaragaraho no kugenda bazongazonga mu muhanda, cyane cyane bakunda no guteza impanuka.

Bimwe mu bimenyetso bishyirwaho mu muhanda cyangwa bishushanywamo, biba bifite umumaro munini cyane. Rero ni byiza kubyubahiriza kuko ubisuzuguye bishobora kuguteza impanuka cyangwa ukaba wagira ibindi bintu wangiza.

Akenshi na kenshi iyo uvuye mu muhanda wa kaburimbo winjira mu muhanda w'igitaka, birakugora cyane kugira ngo, ukomeze ku muvuduko wari uriho kuko usanga waragiye upfa utibagurika, n'ibindi bitari byiza.

Mu gihe cyo kubaka imihanda ababikora bagira uruhare runini mu iterambere ndetse no guha uburenganzira umuntu ugenda n'amaguru, kuko ku ruhande basigaho akayira kabo karimo amapave na ko gakoze neza.

Mu muhanda yo muri Kigali, ahantu haba hari amatara ndangabyerekezo azwi ku izina rya feruge, usanga ari hanini kandi ari hagari, kugira ngo abantu ndetse n'ibinyabiziga bibone aho bihagarara, mu gihe bitegereje ibiri kwambuka.

Abashoferi cyangwa se abatwara ibinyabiziga, ni byiza kwirinda gukora impanuka mu gihe abagenzi bari kwambuka umuhanda, jya ubanza witonde ushishoze urebe neza niba ntawurimo, ubone gukomeza.

Hamwe mu hantu imihanda igenda yigabanyirizamo kabiri, usanga ari ahantu hanini cyane, kuko iyo bahagize hato ibinyabiziga bishobora kubahahurira bikaba byateza impanuka cyangwa byagongana.

Mu muhanda usangamo ibimenyetso byinshi cyane bigiye bitandukanye, bigenda bikuyobora aho ugomba kunyura cyangwa kwerekera kugira ngo udateza umudugararo cyangwa impanuka.

Mu gihe uri kugenda mu muhanda ni byiza kwitonda cyane cyane ugeze ahantu hari icyapa kikwereka ko hari inzira y'abanyamaguru cyangwa se aho bambukira umuhanda bava mu gice kimwe bajya mu kindi ugomba rero kugabanya umuvuduko.